Icyumba kinini cyahuriyemo abaturage barimo guhabwa ibiganiro n'umugabo, bicaye ku ntebe ndetse imbere yabo hariho ameza akoze mu biti hateretseho uducupa turimo amazi.

Abaturage bahuriye hamwe bagiye mu muhango wo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya mirongo itatu. Bafite ibyapa bigaragaza ko bari muri icyo gikorwa.

Umubyeyi yajyanye umwana kwa muganga, mu cyumba arimo ahasanze umuganga arimo gusuzuma umwana, harimo ibitabo bandikamo imyirondoro batanze, iteretse ku meza.

Abakinnyi bambaye impuzankano yabo, bafite umupira w'amaguru bagiye gukina, hari abafana benshi baje kubashyigikira.

Ibikoresho byifashishwa kwa muganga mu gihe bari gufata ikizamini cy'amaraso, hari amakereyo yifashishwa mu kwandika kuri ibyo bizamini bafashe kugira ngo bamenye nyirabyo, hari amacupa bavomeramo amaraso.

Abanyeshuri bari mu cyumba, kirimo igikoresho bifashisha mu kureba udukoko duto tutaboneshwa amaso, inyuma yabo hariho akabati karimo ibintu bigiye bitandukanye.

Umuganga ufite urushinge ruterwa abantu, yambaye ga ndetse n'itaburiya, urushinge ni igikoresho kifashishwa mu gutera umuti abantu mu gihe bafite indwara.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga, cyifashishwa, mu guteka, ibyo kurya byacu bya buri munsi, hari abakobwa babiri, beza, bambaye yunifomo, bavuye ku ishuri.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga, cyifashishwa, mu kureba, udukoko tutaboneshwa amaso, tukagaragara neza, tukabasha kutubona. Giteretse ku meza, gifashwe n'ibiganza by'umuntu.

Abanyeshuri bari kumwe na mwarimu, arimo kubigisha yifashishije imikino y'imyidagaduro, bambaye impuzankano iri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'amashati y'umweru, bambaye inkweto z'umukara n'amasogisi y'umutuku.

Inzu nini nziza iteye amarangi y'umuhondo yanditseho amagambo agaragaza icyo iyo nzu ikorerwamo. Imbere yaho hari ubusitani bwiza ndetse inyuma yaho hariho ishyamba rinini.

Umurwayi yagannye ivuriro ahasanga umuganga. Arimo kumufasha amushyizeho igikoresho bifashisha mu gupima umuvuduko w'amaraso. Hari abarwayi bategereje ngo nabo bahabwe ubuvuzi.

Umuntu ufite icyapa kinini cyanditseho amagambo agira ati kugira ibitekerezo byo kwiyahura ni ikimenyetso gikomeye cy'indwara y'agahinda gakabije.

icyapa kinini cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu avuga ngo icyumweru cyahariwe kurwanya ikoreshwa n'ikwirakwizwa ry'ibiyobyabwenge mu muryango nyarwanda by'umwihariko mu rubyiruko.

Abaturage bahuriye hamwe ndetse n'inzego z'umutekano bafite icyapa kinini cyanyanditseho kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse no mu muryango nyarwanda.

Abaturage bahuriye hamwe, bicaye ku ntebe zikoze mu mbaho, bambaye udupfukamunwa tw'umukara ndetse n'ubururu, tubarinda kwandura indwara zandurira mu mwuka.

Abakobwa n'abahungu bahuriye hamwe barimo baganira ibintu bigiye bitandukanye, bambaye imyenda umukara, ubururu n'umuhondo, hariho uri kubaganiriza asa nkaho ababwira inkuru ishimishije.

Inzu icuruza imiti ivura abantu mu gihe ufite indwara zitandukanye, harimo umuganga ugufasha akagusobanurira iyo miti uburyo ikoreshwa. Hari igikoresho cy'ikoranabuhanga aricyo mu mudasobwa.

Inzu nini y'ubucuruzi icuruza imiti ivura indwara z'abantu harimo umuganga ushinzwe gusobanurira abantu uburyo iyo miti ikoreshwa.

Ibiganza by'umuntu, bifite imiti iri mu bwoko butandukanye, ari yo ibinini ndetse n'imiti y'amazi.

Ivomero rihurirwaho n'abantu benshi baje gufata amazi yo kwifashisha mu rugo mu guteka ndetse no kumesa, hariho ibikoresho bifashisha mu gushyiramo amazi bakayatwara bakayakoresha mu rugo.

Itsinda ry'abanyeshuri rihuriye hamwe rifite icyapa kinini, abandi bafite utwapa dutoya, bambaye impuzankano nziza, inkweto z'umukara, amasogisi y'umweru, amajipo n'amapantaro by'ubururu n'amashati y'umweru bari kumwe n'umurezi wabo.

Umubyeyi ari kumwe n'umwana we yasuwe, n'undi muntu, arimo amuganiriza. Imbere yaho hariho igikapu, naho inyuma yaho hariho inzu gakondo.

Umuganga arimo gufata ikizami umurwayi wa muganga, imbere yaho hari ikarito ishyirwamo imyanda bamaze gukoresha, hari ameza ateretseho ibyo barimo kwandikamo imyirondoro yabo.

Abajyanama b'ubuzima bafasha abaturage bakabaha inama, ababyeyi batwite babaha inama zo kwiyitaho mu gihe batwite, bakavura indwara zigiye zitandukanye, malariya, inzoka zo mu nda.

Uruhu rw'umuntu ufite indwara bayita ise, ise ni indwara ifata abantu ku ruhu, uruhu rukazana amabara ruugasa nabi.

Abaturage bagiye kwa muganga, bamaze kwandikirwa amafishi yanditseho imyirondoro yabo, bagiye kujya mu cyumba bahure na muganga bavuge uburwayi bafite babahe imiti.

Umukecuru yazanye ivuriro ahasanga muganga amutera urushinge rumurinda kwandura indwara. Bambaye udupfukamunwa kugira ngo Birinde kwandura indwara zandurira mu mwuka.

Ivuriro ry'ibanze riganwa n'abaturage bafite indwara zigiye zitandukanya, bakahasanga muganga, akabafasha, akabaha imiti ku ndwara bafite. Riteye irambye ry'ubururu ndetse n'amadirishya y'umweru.

Ivuriro ryegerejwe abaturage kugira ngo baze bafashwe ku bibazo by'indwara bafite. Hari ubusitani bwiza bicaramo bakaruhuka. Hari umusirikare uri imbere y'ivuriro ategereje umuganga ngo aze amufashe.

Abaturage bagannye ivuriro kugira ngo bisuzumishe bamenye uburwayi bugiye butandukanye bafite, hari umuforomo uri kwakira imyirondoro yabo kugira ngo abakurikirane baze kubona ibisubizo bigendeye ku mazina yabo bwite.

Ababyeyi bakikiye abana bakiri batoya, imbere yaho hari umutaka ubafasha kwikinga izuba ndetse n'imvura hari urugi rufite ibara ry'umweru.

Umurwayi wagannye ivuriro, ahasanga umuganga, arimo kumufata ibipimo bigiye bitandukanye ari byo, kureba aho umuvuduko w'amaraso ugeze ndetse n'uko umutima we urimo gutera, hari intebe bicayeho zikoze mu mbaho, hari n'amezaza abafasha mu gufata ibitabo mu gihe bari kwandika.

Ivuriro riganwa n'abaturage bagiye bafite ibibazo bigiye bitandukanye by'indwara. Hari abaturage bicaye bategereje ko bari bukorerwe, bagataha bafite imiti bahawe na muganga.

Ivuriro ryegerejwe abaturage kugira ngo bavurwe indwara zigiye zitandukanye. Hariho abaturage barigannye baje kwivuza bicaye ku ntebe ikozwe mu biti. Hariho indobo ndetse n'ibasi. Indobo iba irimo amazi bakaraba, birinda umwanda w'intoki.